Iduka ahantu ushobora kuba wajya ukeneye ibintu by'imyambaro birimo inkweto, imyenda n'imipira y'imbeho, amapantaro n'ibindi wakenera byo kuba wakikwiza.

Umugore bahantu mu isoko ririmo inyanya, ibitunguru n'ibindi yambaye akantu k'akitero kakwirwamo ibintu bitandukanye.

Inkweto nziza cyane iri mu bwoko bwa godiyo, aho ikoreshwa mu kibuga cy'amaguru, ikabasha kuba yakina umupira neza, icururizwa muri botike mu Rwanda mu mujyi wa Kigali.

Umugore wambaye imyenda ya medi ini Rwanda, niyo yashyizweho kugira ngo ige ikoresha ibikoresho byo mu Rwanda kugira ngo batangemo ibindi bishya.

Amakanzuru yambawe n'ibikinishoho, aho ushobora kuba abaganga ukabasha kuba wayibikaho mu buryo bworoshye, wakishyura ukoresheje foni n'ibindi bintu.

Akagera motozi ushobora kuba wajya ukeneye nko kugura imodoka ushobora kuba wayitwara ku buryo bugezweho.

Imodoka yo mu bwoko bwa marisidesi benzi igurishwa, ikaba wabasha kuyibonera ku giciro cya miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amafaranga yo mu gihugu cy'u Rwanda

Imodoka igezweho nshyashya nziza cyane, irangi ry'umutuku, ibirahuri, amapine meza n'amaretorovizeri.

Imodokari ziri ahantu mu kibuga zaruye aho zagenderwamo n'umuntu uzi kwitwara kandi yanayiguze, abasha kuyitsindira yayikoresha.

Ushobora kuba wagana uruganda rwa Toyota bakabasha kuba bagufasha kubona bimwe mu bicuruzwa by'iyo kampani udahenzwe bakagufasha.

Imodoka nyinshi ziri mu mabara asa, zishobora kuba zigurishwa, ahantu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, abagabo babiri bahagaze bari kwerekana ibintu bitandukanye.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ipantaro, umupira, imodoka, y'umweru ibirahure bijya gusa umukara, muri yundayi niho aherereye.

Abantu bane basa nk'aho uno umwe uguze imodoka, muri kampani ishinzwe kuba yatanga ibyo binyabiziga.

Umugabo uri kumwe n'undi, inyuma hari imodoka zifite ibirahure, irangi ry'umweru n'amapine y'umukara bisa nkaho umwe muri bo aho yegukanye imodoka.

Ahantu hari icyapa cyerekana ko hagurishirizwa ibinyabiziga, ushobora kuba wabagana cyangwa ukabahamagara; kuri zeru karindwi umunani, undi munani, mirongo inani na gatandatu, mirongo inani, icyenda n' icyenda.

Imodoka z'ubwoko butandukanye, ziparitse ahantu bisa nk'aho zigurishwa kuba baturage cyangwa abandi bantu, bigafasha kuba batwara ibinyabiziga.

Imodoka ziri ahantu n'ubwoko bumwe, umukara niryo bara ryazo, amapine zifite, ibirahure byiza biri mu bigezweho.

Imodoka nziza cyane, iparitse ahantu hari amapave, ni ubwoko bwa suzuki, igurishwa miliyoni cumi n'umunani, irangi ry'umweru, ibirahuri, amapine, ni byiza.

Ifaranga ryakoreshwaga muri bibiri n'icyenda, ririho ikirangantego cy'igitoki cy'umuneke, aho yubahirizwaga.

Igiceri cya veni, giteretse ahantu, aho cyakoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa bya make mu Rwanda hose.

Amafaranga umugore arayafite, yambaye ikanzu, agatambaro mu mutwe; undi ari kumurebera mu birahure, imbere hari amamashini abara, kandi aho hantu bisa nk'aho bahatangira serivisi.

Kampani ishinzwe kuba yarindira abantu umutekano, aho hari abagabo babiri bafite ikintu k'ikibogisi berekeje ku modoka yabo.

Mu biro hari umugabo hinduranya amafaranga, ayacisha mu kirahure, ashobora kuba yakoreshwa mu kwishyurwa mu bintu bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo.

Ibiraha cyangwa se isambusa ni ibintu bikorwa n'abantu kugira ngo babigurishe cyangwa se babyirire bikaba biryoha.

Amandazi na keke biri mu ndobo, aho naho ushobora kuba wajya ukabasha kuba wabigura ukabirya, ibicuruzwa byiza cyane biboneka ku isoko, amabotike n'amadayari.

Amagi ava ku nkoko ashobora kuba yaribwaga n'abantu, aterwa n'inkoko, abasha kuba yakitabwaho akagurishwa cyangwa agakoreshwa ibindi bikorwa bitandukanye.

Igikombe k'ikirahure kirimo amata, ava ku nka, keke, umuntu uyifite mu ntoki, byagufasha kuba wabirya, ukagira imbaraga, wabisanga ahantu hose.

Akabuni k'amata aho ashobora kubaho wagasanga kuri dayari, unashobora kuba wabagana babasha kuba bagufasha kubona ibyo kunywa harimo amata.

Umugore utanga amata, ni ikintu bayashyiramo, akorera ahantu bacururiza icyo kinyobwa kiva ku nka.

Capati, ibiryo bantu bo mu Rwanda cyangwa se ahandi bakora, bakabirya bikabafasha kuba babaho batekanye.

Abagabo babiri n'umugore umwe bicaye ahantu kuri dayari bari kunywa amata, ashobora kuba yagurishirizwa muri iyo nzu y'ubucuruzi; harimo n'ibindi bintu bitandukanye.

Amafaranga afitwe n'umuntu uyatanga, nk'aho bari guhinduranya mu madorari akamuha ayo mu kindi gihugu ntamenye.

Amafanga arikubarwa n'umuntu, amadolari n'amayero, aho bishobora kuba byavugishwa mu manyarwanda, akaza ari ibiceri ibyishi.

Icyuma kibara amafaranga mu buryo bwihuse, kikaba cyarakozwe kugira ngo kizajye gikora akazi kihuse kandi kanogeye rubanda.

Amayero magana atanu ashobora kuba yakwifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye; harimo u Rwanda, Sawuzafurika, Kongo no muri Amerika, akabasha kuba yakora byinshi.

Amadorari akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo aho usanga aba abarirwa mu mafaranga menshi cyane.

Umugabo uri kwakira amafaranga y'amadolari, aho ashobora kuba ari amafaranga ahenze ku isi yose, ubasha kuba wayakoresha ibintu bigiye bitandukanye, mu gihugu icyo ari cyo cyose waba urimo.

Ahantu hari umuryango usa nk'aho wakorera ibyo guhinduranya amafaranga, ushobora kuba wajyana amadolari nka magana atanu, bakaguha amafaranga ahwanye na yo mu manyarwanda.

Inzu ya hoteri, ishobora kuba yakwakira ba mukerarugendo n'abandi baturutse hanze, bakaza kuba baruhukiramo, bagahabwa serivisi zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo tuwarete, ahantu bogere intoki na dushe bigezweho, aho ushobora kuba wabyikorera mu gihe ufite amafaranga bakabigushyiriramo.

Hoteri, amazu ibarizwa mu gihugu icyo ari cyo cyose, aho twasangamo nk'u Rwanda abasha kuba yakwita ku bantu, ukabakira ukabahereza serivisi bakeneye.

Hoteri ni amazu ushobora kuba wajyamo mu gihe ushaka kuruhuka cyangwa se ukaba yakakira abantu bavuye hanze y'igihugu, bakayaharuhukiramo bityo bikabasha kuba byafasha mu kwinjiza inyungu.

Hoteri ni amazu ari mu gihugu cy'u Rwanda ameze neza cyane yifashishwa n'abaturage na bamukerarugendo bakabona aho baryama, byo kurya n'ubwogero.

Inyubako zitandukanye zishobora kwitwa hoteli, zakakira abantu, zikabaha icumbi, ibyo kurya, ubwogero n'ibindi byo mu rugo.

Hoteli mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze yacyo ishobora kuba yakwakira ba mukerarugendo, abaturage batuye igihugu cyabo akafasha kuba babona icumbi ibyo kurya n'ibindi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, usangamo abagabo, abakobwa, abasore n'abagore, uvuga ku bijyanye n'akazi.

Ahantu hari compani ikorerwamo iby'ubwishingizi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Ushobora kuba wabagana bakagufasha kwishinganisha.

Inzu nziza cyane ikorerwamo akazi kajyanye n'ubwishingizi, iherereye mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, hirya hari ibiti biyikikije n'amatara.

Bank Equity, ahantu ushobora kuba waba ukeneye inguzanyo, cyangwa ugiye nko kubitsaho amafaranga, kubikuza, n'ibindi bikorwa.

Uri kureba bisa nk'aho ari mu isoko ari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inyanya, imyembe, voka, imineke n'ibihaza n'ibishyimbo.

Isoko ahantu ushobora kuba wajya ukeneye bimwe mu bicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara n'ibindi.

Isoko ahantu ushobora kuba wajya ukeneye ibyo kurya harimo karoti, intoryi, insenda, inyanya, tungurusumu nibindi bitandukanye.

Isoko ushobora kuba warisangamo ibishyimbo, ibigori, ibirayi, ibitoki, n'amasaka, n'uburo. N'ibindi bitandukanye wabihasanga.

Umugore uhetse umwana mu isoko, yacuruje amashu, inyanya, ibitoki, kokombure n'ibindi bitandukanye.

Byo ku isoko, ahantu ushobora kuba wajya ushaka ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibirayi, imyumbati, ibijumba n'amateke n'ibishyimbo.

Umugore uri gutanga ibintu mu ishashi n'umugabo aseka, hirya hari abandi bari gukora nk'ibyo.

Abantu bari mu nzu igeretswe aho bayizi ku nyubako izwiho ku izina rya etaje, ikaba ihetse abantu benshi.

Isoko ricururizwamo n'ingeri zitandukanye ushobora kuba wabagana bakagufasha n'ibiribwa nki nyanya ,intoryi, imiteja, karoti, pavuro, ibitunguru.

Isoko ahantu ushobora kuba wajya ukeneye ibicuruzwa bitandukanye, usangamo imyenda, ibiryo birimo ibirayi, amakaroni n'inyama.

Gore uri mu kazu ka emutiyeni, ikigo gishinzwe gutanga bimwe mu itumanaho mu Rwanda, batanga amanite kubitsa no kubikuza.

Ahantu ushobora kuba wajya cyangwa se ukabasha kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye, zirimo guhabwa ama inite, kohereza amafaranga, kubitsa n'ibindi bikorwa bigiye binyuranye.

Moto bakoreshwa mu buryo bwo kujyana ibintu, ibiryo bwihuse cyane, ukabasha kuba byagezwaho ababitumije bakabibonera ku gihe, ukishyura nko kuri foni cyangwa mu ntoki.

Ahantu hari umugabo uturuka mu mahanga, wambaye ingofero irinda kuba hagira ikibazo kimubaho, kuranga aparitoma zigurishwa mujyi wa Kigali.

Icyapa cyiza cyane kiriho ibyo kuryamaho bimeze neza, amarido agezweho, ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi, mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Ahantu hari inzu, ingo z'icyumba zikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu buri kwezi, wahasanga ari mu mujyi wa Kigali u Rwanda.

Inzu yubaswe muburyo bwakijyambere cyangwa se bugezweho iherereye mumujyi wa Kigali mu Rwanda aho igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Icyumba cyiza cyane gishobora kuba giherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, hakodeshwa ibihumbi magana inani cyangwa se amadorari magana inani buri kwezi.

Inzu nziza cyane iherereye Kigali Kimironko aho ikodeshwa ibihumbi magana atatu bya buri kwezi, ibyumba bitatu, ubwogero bubiri.

Aparitema ibyumba byinshi biri mu nyubako igeretse, aho byakodeshwa biherereye Nyarutarama, Kigali mu Rwanda.

Inzu iri mu buryo bwa kijyambere, ikodeshwa , iherereye Kigali Kimironko, ifite ibyumba bibiri , ubwogero bubiri ,yishyurwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi.

Ahagaze munsi y'inzu bisa nkaho ari kwamamaza iyo nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibirahuri bya bariko n'inzugi zigezweho.

Inzu nziza cyane, ikodeshwa, ifite icyumba kimwe, ubwogero, ibihumbi magana abiri buri kwezi, iherereye Kigali, Kacyiru.

Inzu y'ubucuruzi, wasangamo imigati, keke n'amakawa, icyayi, icuruzwamo n'ababishinzwe gutanga izo serivisi.

Ni ahantu bacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu Mujyi wa kigali cyangwa se mu Rwanda, ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguha serivisi zo guhabwa ibyo byaguzwe.

Inzu y'ubucuruzi ishobora kuba yacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, nk'ibyo kunywa, ibyo kurya, byo kwifashisha ahantu tugeze ari ho hose.

Imyenda ushobora kuba wasanga mu maduka agiye atandukanye, baba bacuruza amakanzu, ikote, amapantaro n'imyenda isa.

Inzu z'ubucuruzi zihuriye mu nzu nini cyane, aho harimo ibyumba buri wese aza agafata icye akabasha kuba yakorerwamo ubucuruzi, akabasha no kuba yabona amafaranga.

Ubucuruzi aho ushobora kuba wabagana ukabasha kuba baguhaye ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abagabo bahagaze abandi bari kubaha serivisi.

Nzi ahantu ushobora kuba wajya ukabasha kuba wagura cyangwa se ukagurisha ibintu bigiye bitandukanye: harimo amashakoshi, imikandara, inkweto; n'abagore bari kubicuruza bari ku ruhande, n'abaguzi bari kugenda.

Umugore ufite akantu agahagaritse n'amasura yabo, ahetse umunyamuryango ku isonga, mu kigo gishinzwe iby'ubwishingizi bw'abaturage.

Umugabo wambaye umupira w'ikigo akorera, gishinzwe ubwishingizi bwo kumenya ejo heza h'abaturarwanda z'abaturage...

Mituwera do sante ihabwa abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, ikoreshwa kujyakwivuza ukererekana ubwishingizi bwawe bakamenya uko bakugabanyiriza ibiciro.

Umugore witwa Mukanziga Pasikaziya. Yatsindiye miliyoni imwe n'amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu. ikigo cy'igihugu gishinzwe kumenya imibereho y'abantu.

Umugore wicaye ku ntebe irimo imbaho afite udukarita tubiri aho dukoreshwa mu bwishingizi bwo kwivuza.

Mituweri sante ishobora kuba hakifashishwa n'abaturage mu kuba bajya kwivuza, igiciro kikagabanuka bitewe n'ukuntu bayijyanye, bakivuza mu buryo bugezweho kandi bwiza.

Supamaketi ushobora kuba wajya ukeneye ibiribwa bitandukanye birimo icyo kunywa, icyo kurya n'ibikoresho wakwifashisha mu rugo cyangwa se ahandi hantu hose.

Umugabo wambaye ingofero, umupira wa rakosita, afite ibikapu n'ibiringiti, ari ahantu bacururiza imyenda n'ibintu bindi.

Hitwa Sonatube ahantu ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha mu kugura ibintu bigiye bitandukanye, harimo umugabo wambaye umupira n'umugore uri kugenda n'undi uri kuri serivise.

Umugore utuye hano mu iduka ricuruza ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bikoresho inyanya, kokombure, pavuro n'ibitunguru.

Supamaketi inzu y'ubucuruzi, aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba baguhaye ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo ibyo kurya, byo kunywa, n'ibikoresho wakifashisha mu rugo cyangwa se kuri ofice.

Superimarishe n'ahantu ushobora kuba wajya ukeneye ibiribwa, ibinyobwa, amasabune, amavuta n'ama omo ubasha kuba wakwifashisha.

Isoko ryanditseho superi marishe ushobora kuba wahagera ukeneye imbuto, umugati n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ahantu hose wabihasanga.

Umugore uri mu iduka ricuruza ibyo kunywa, ibyo kurya n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ngo, mu kazi n'ahandi hose habonetse.

Inzu ishobora kuba yakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, aho ushobora kuba wabagana bakagufasha mu kubona ibyo kunywa, ibyo kurya n'ibyo gukoresha ahantu hasanzwe.

Umugore uri mu iduka, aho ashobora kuba yaje kugura ibiribwa, nk'amashu, ubutunguru, intoryi n'ibindi bikoresho mu kurya ahandi.

Umugore wambaye umupira w’umutuku ari guseka wisukishije. Umugabo ari kwishyura ahantu mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'imigati cyangwa se ibintu by'isukari cyangwa iby'ifarini, aho ushobora kuba wabagana bakabasha kuba babiguha, bakabigukorera neza cyane.